Ni abarwayi babiri bicaye, umwe arahagaze kandi bari kumwe na muganga bigaragara yuko ari kumusuzuma ngo amenye indwara arwaye ikindi kandi bose bambaye masike bizwi nk'agapfukamunwa kugira ngo babashe kwirinda icyorezo.

Icyumba cyo kwa muganga harimo imikasi, harimo amapamba, harimo n'ibipfuko bigaragara ko ari icyumba babagiramo. Harimo abaganga babiri bari kubaga umuntu ndetse n'abandi babiri bari kubafasha nk'uko bigaragara.

Abarwayi babiri, umwe iburyo undi ibumoso, bari kwa muganga, hagati yabo hicayemo umuganga ari gutegura ibikoresho, bigaragara y'uko ari kubitaho.

Ni igiti gifite amababi manini, afite amahwa ajombana cyane. Bikunda kwera ahantu mu bisambu cyangwa se ahantu mu cyaro kandi ibi biti iyo ubirebye bamwe bakunda kubyita ibitovu.

Umubyeyi uri kwa muganga aryamye ku gitanda, ari kumwe na muganga, ari kumukoza agakoresha ko kwa muganga ku nda ngo arebe uko umwana ameze mu nda.